Abantu bicaye mu cyumba ubona ko bari mu nama, harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara wegeranya n'umugore, wambaye ishati y'umutuku, hirya yabo hari undi mugabo wambaye ishati y'umukara, wegeye n'uwambaye ikote ry'ubururu.

Abantu benshi ubona ko bahagaze ahantu hamwe ku ruhande rw'ibumoso harimo umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari umugabo umufashe ku kuboko wambaye ishati y'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapira k'umukara ndetse n'amadarubindi.

Icyumba gisize ibara ry'umuhondo, hicayemo abagabo batatu, undi ahagaze imbere yabo. Hari ameeza irigitambaro cya oranje, harimo utubara tw'umweru, hateretseho amazi, hambere, umugabo uhagaze, yambaye ishati y'umweru.

Icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, ku meza hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'ibirahure, harimo umugore wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku. Hirya ye hari undi mugabo wambaye ishati y'umukara, inyuma ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikote ry'ubururu.

Abantu bicaye hamwe bagiye bambaye imyenda itandukanye, harimo umugabo wicaye ku ruhande wambaye ishati y'umukara, hirya ye hari uwambaye ishati y'umweru, karuvati y'umukara ndetse n'ikote ry'ubururu. Ukurikiyeho yambaye ishati y'umukara.

Abantu bahuriye hamwe, ubona ko bicaye barimo barumva ikiganiro. Ku ruhande rw'iburyo hari umugabo ufashe ku ivi, yambaye ipantaro y'umukara. Hirya ye hari undi mugabo wageretse akaguru ku kandi, wambaye ishati y'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Abantu ubona ko bicaye imbere yabo hari imeza hateretseho amakayi bari kwandikaho, uducupa tw'amazi ndetse n'ibirahure birimo amazi, inyuma hari umukobwa witeze igitambaro gifite ibara ry'umuhondo, imbere hari umugabo wambaye ishati y'ibara ry'umukara.

Umwana w'umukobwa ubona ko imisatsi ye ayiboshye ibituta, yambaye agashati k'umweru ndetse n'agapira k'imbeho, ubona ko gafite ibara ry'ubururu. Afite inkono y'itabi mu kanwa.

Ihema ririmo ibitambaro by'umweru ndetse n'icyatsi, harimo abamama barimo barabyina bambaye imikenyero y'umweru ndetse biteye umwitero ufite ibara ry'umukara.

Abantu bagiye batandukanye bicaye, imbere yabo hateretse amazi ndetse n'amaji, imbere hariho abandi bari kubasusurutsa, hejuru hari igitambaro cyanditseho ngo inkera y'imparirwa kurusha z'akarere ka Nyagatare yo ku wa makumyabiri' numunani z'ukwacumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane.

Umugore ubona ko akora mu bijyanye n'amashanyarazi, afashe ku rwego abona ko agiye kurira. Yambaye ingofero y'umuhondo ibarinda igikomere ndetse yambaye n'igisurubeti cy'umukara abona ko kiriho uturongo tw'umweru.

Inyubako ndende ubona ko ariyo kwa muganga iteye irange ry'umuhondo, ku ruhande rwayo hari imodoka y'ibangukiragutabara. Munsi yayo hari ikigega gifata amazi cy'umukara.

Abantu ubona ko bahagaze imbere y'ivuriro risize irangi ry'ubururu ndetse harimo abambaye amataburiya y'umweru. Hari umugore wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Inyubako ubona ko isakajwe n'amabati y'umweru, isize ibara ry'ubururu, iruhande rwayo hari indabyo. Hari umu mama ndetse n'akana, barimo barererekezayo. Ahetse umwana mu gitambaro gifite ibara ry'umweru.

Abantu ubona ko bari gukora imirimo y'amaboko bari gusukura bagihe batandukanye, inyuma harimo umukobwa wambaye agapira k'umukara, imbere yendi wambaye umupira w'umukara imbere yabo hari umugabo wambaye agapira k'umukara, ku ruhande rw'iburyo rwe hari undi wunamye wambaye agapira k'umweru.

Abantu bagiye batandukanye, harimo abahagaze ndetse n'abicaye, imbere yabo hahagaze umusaza ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse afite n'agakoni mu kuboko kw'ibumoso, ku ruhande rwe rw'ibumoso hari umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, ku ruhande rw'iburyo hari umugore witeye umwenda w'ubururu.

Abantu bagiye batandukanye ubona ko bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi ku ruhande rw'iburyo hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikote ry'umukara akurikiwe n'umugore wambaye umupira w'umweru n'ikote ry'umukara.

Udutebe ubona ko turi mu rutoki, hahagazemo abantu, harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara, ishati y'ubururu, ipantaro, y'umukara. Iruhande rwe rw'ibumoso hari undi umugabo wifashe mu mayunguyungu wambaye umupira w'umweru.

Abantu benshi bicaye bahuriye hamwe. Ubabona ko bari mu gikorwa cyo kwibuka. Buri wese afite buji yaka ndetse imbere hicaye abagabo babiri, buri wese yambaye ishati y'umukara. Iriho amagambo y'umweru, yanditseho mirongo itatu. Bambaye inkweto z'umukara. Hirya yabo kuruhande rw'iburyo hari umusirikare.

Abantu benshi bahuriye hamwe ubona ko hari amahema atatswe n'amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, imbere hari itatswe mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara. Inyuma hari umugabo wambaye agapira k'umweru, hirya ku ruhande rwe rw'ibumoso hari undi wambaye agapira k'umuhondo.

Umusore ubona ko yambaye agapira k'ibara ry'umutuku, arimo aragenda ku kagare. Hirya ye hari umugabo uri kuri moto, wambaye ikote ry'umukara, ndetse yambariyemo n'agapira k'umutuku.

Abantu bagiye batandukanye ubona ko barimo barakora igikorwa cy'umuganda, harimo umugabo w'umusirikare wazamuye isuka ya rugori, hirya ye hari undi mugore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru.

Ihema ubona ko ritatse mu mabara y'umuhondo, ubururu, ndetse n'icyatsi harimo intebe z'umweru, imbere hariru umugabo uhagaze wambaye imyenda ya gisirikare, hirya ye ari umugabo wambaye imyenda ya gipolisi ndetse no kuruhande rw'ibumoso hari umugabo w'umupolisi ufashe ikayi mu ntoki.

Abantu ubona ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo wambaye isengeri y'ibara ry'umutuku harimo akarongo k'umweru kamanuye, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, hirya ye hari umugabo wambaye umupira w'umweru.

Abantu bahurije hamwe ubona ko baje mu myitozo ngororamubiri ,harimo umugabo wambaye agapira k'umuhondo, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'umutuku harimo uturongo tw'umweru tumanuye, ndetse inyuma ye hari umugabo wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara.

Abantu ubona ko bari gukora imyitozo ngororamubiri. Imbere yabo hari umuntu wambaye agapira k'amaboko maremare k'ubururu, ndetse n'ipantaro y'umukara. Imbere ye hari undi musore muremure, wambaye agapira k'amamoboko maremare, k'umweru.

Abakobwa ubona ko bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru. Harimo ufite umupira yambaye amasogisi afite ibara ry'ubururu, yambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara. Hirya ye hariyo abandi bakobwa bambaye imipira y'ubururu hariho utubara tw'umweru.

Abantu benshi bagiye batandukanye barimo barakora imyitozo ngororamubiri, hari igitara cyamuritse cyane, imbere hari umusore wambaye agapira k'umuhondo, agakabutura k'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye agasengeri gafite ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro' yumukara yafashe akaguru ke k'ibumoso.

Abakinnyi bari mu kibuga kirimo ibyatsi byinshi, imbere hari ufite umupira ku kuguru ku'ibumoso, yambaye amasogisi y'umutuku, ikabutura y'ubururu harimo akarongo kamanuye k'icyatsi, umupira w'ubururu harimo utubara tw'icyatsi.

Abantu biganjemo urubyiruko bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, imbere hicaye umwana wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, imbere ye hari undi muntu wambaye umupira w'umukara harimo utubara tw'icyatsi.

Abakobwa benshi ubona ko bahagaze barimo guhabwa imidari hari umugore wambaye akagofero k'umukara, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara urimo arabaha imidari, abo bakobwa bambaye imipira y'umuhondo amakabutura y'umukara hariho utubara tw'umuhondo.

Ikibuga ubona ko kirimo abakinnyi, harimo uwambaye amasogisi y'ubururu iruhande rwe hari umugore ubona ko yambaye umupira w'umutuku, harimo uturongo tumanuye tw'umweru ipantaro y'umukara ndetse afite telefone mu ntoki.

Ikibuga ubona ko barimo bagaragaza inshundura ndetse hari umukinnyi wambaye agakabutura k'umukara agapira k'amaboko maremare k'imbere gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umupira arengejeho ufite ibara ry'ubururu harimo utubara tw'umweru.